Umuganga ari kwita ku muntu wavunitse, ari kugenda n'imbago, ni ibintu byihutirwa yavunitse bari kumuha ubutabazi bw'ibanze bamupfuka, kupfukisha ibintu by'umweru yicaye ku gatebe, muganga we yambaye imyenda y'akazi.

Icyapa kiriho USAID abanyeshuri, abantu bagiye gufata ubumenyi ku bijyanye n'icyorezo cya mabaga n'uburyo bajya bagisobanurira abaturage cyangwa kukirinda.

Umuganga arimo gutanga serivisi y'ubuvuzi, aho ari gufata ibizamini binyuze mu gutera urushinge umurwayi kwa muganga, aho akura amaraso apima zimwe mu ndwara zitandukanye nka malariya, ndetse n'izindi ndwara barebera mu maraso.

Imodoka itwara abarwayi mu gihe barembye aho ibakura mu rugo ikabajyana kwa muganga mu gihe barembye bakeneye ubuvuzi bwihuse cyangwa se ikabakura ku ivuriro riciriritse ikabageza ku ivuriro ryisumbuyeho kugira ngo babashe guhabwa ubuvuzi, abantu batanu bategereje umurwayi cyangwa se bavuye kumutwara kwa muganga.

Ambilanse iparitse ku kigo nderabuzima aho iba yiteguye gufasha umurwayi urembye imuvana ku kigo kimwe k'ikigo nderabuzima imujyana ku kindi cyangwa se imukura aho umurwayi arwariye mu rugo imujyana kwa muganga kugira ngo imuhe ubutabazi bw'ibanze ndetse n'ivuriro abarwayi bajyamo bakajya kwivuza.

Akanyabiziga kazwi ku izina rya dorone kifashishwa mu butabazi bw'ibanze aho gafata imiti kakayigurukana mu kirere gakora umurimo umeze nk'uw'indege kakayijyana aho umurwayi arwariye kugira ngo abashe gufashwa mu buryo bwihutirwa, aka kadege rero kari mu kirere kajyanye imiti kugira ngo gafashe umurwayi.

Abantu bifotoje ku mushinga wa USAID, bari guhabwa amahugurwa ku cyorezo cya Mabaga, basobanukiwe barimo kwiga no gusobanukirwa, uburyo bakirinda iki cyorezo cya mabaga.

Abantu bari mu bwoko butandukanye harimo abirabura n'abazungu, imodoka yanditseho Rwanda Red Cross, bivuga ko n'imodoka ishinzwe gutanga ubutabazi ahantu habaye ikibazo igatanga ubutabazi bwihutirwa, ni ikigo muri rusange gishinzwe ubutabazi.

Abantu bambaye impuzankano za Kuruwaruje cyangwa impuzankano z'abantu bambara bari gukora igikorwa cy'ubutabazi, aho bajya ahantu hari ibirori cyangwa hari abantu benshi, umuntu yagira ikibazo bakamutabara, bakamujyana kwa muganga cyangwa bakamuha ubufasha bw'ibanze.

Abantu batandukanye bari kwifotoza bafite impapuro zimeze nk'ibihembo bahawe cyangwa ikindi kintu bakoreye. Harimo abambaye impuzankano y'umutuku imeze nk'ikigo cy'ubutabazi cyitwa crox rouge. Bari kwifotoreza hamwe, ndetse n'abandi bantu batambaye impuzankano. Abandi bambaye udupfukamunwa bimeze nk'aho hari icyorezo bari kwirinda.

Abantu benshi bambaye impuzankano zo mu bwoko bubiri, hari abambaye imyenda y'umutuku isa ndetse n'abandi bambaye ingofero n'imyenda y'umukara irimo amabara y'icyatsi, ni abantu bari gukora ubutabazi bw'ibanze, aba bambaye imyenda y'imikara n'icyatsi bari mu cyiciro cya polisi ndetse bambaye umutuku bari mu cyiciro cya Croix Rouge na yo ishinzwe gutabara abantu.

Abantu benshi harimo abadamu ndetse n'abagabo bambaye impuzankano y'ikigo cya Croix Rouge gishinzwe gutanga ubutabazi ahantu habaye ikibazo nk'impanuka cyangwa se ahantu habereye nk'ibirori hakaba hari umuntu warrwara bashinzwe kumutabara, bari mu biganiro bameze nk'inama cyangwa izindi ngingo bari kuganiraho.

Abantu benshi bari kwiga, uburyo batabara umuntu uri mu bihe bigoranye uri kurwana n'ubuzima, aho bamushitura umutima bamuhaga, amasomo bari gutanga umuganga n'abantu babagaragiye barimo kureba uburyo umuntu uri mu kurwana n'ubuzima bamufasha.

Umuntu urembye cyane bari kumukorera ubutabazi bwihuse bamujyanye kwa muganga bamuteruye, mu gikoresho cyabugenewe nk'ingobyi, bamujyanye kwa muganga kugira ngo abone ubutabazi bw'ibanze.

Abantu benshi batandukanye, harimo abana, abadamu ndetse n'abagabo. Bari ku ivuriro, bagiye kwaka ubufasha mu bijyanye n'uburwayi bafite. Ni abarwayi benshi, ariko bategereje kwitabwaho. Bari kwa muganga, cyangwa ku kigo nderabuzima.

Abagabo babiri bari imbere y'ikigo nderabuzima cyanditseho icyapa cyanditseho gira ubuzima bwiza, bafite umurasirare uzana amashanyarazi cyangwa umuriro uturuka ku mirasire y'izuba.

Abantu abirabura batatu n'umuzungu umwe. Harimo umuganga uri kubasobanurira ibijyanye n'ubuvuzi nka serivisi batangamo kwa muganga. Aho bamusanze mu biro bye agahaguruka nabo bahagaze kugira ngo agire ibyo abasobanurira.

Abantu benshi batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano y'umwenda wo hejuru usa umutuku n'umweru. Ni umwambaro ugaragaza ikigo gishinzwe ubutabazi. Ni ikigo gishinzwe gutanga ubutabazi ahantu habaye impanuka cyangwa habaye ikibazo cy'uburwayi.

Imodoka ishinzwe ubuvuzi bw'ibanze. Aho harimo mu modoka mo imbere harimo igitanda ndetse n'intebe igenda ifasha umurwayi. Aho umurwayi yarwariye mu rugo akarebamba, iyi modoka itwara abarwayi imbangukiragutabara. Ijya kumuzana, ikamugeza ku ivuriro kugira ngo agire ubufasha bw'ibanze ahabwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ahantu hamwe. Bafite icyapa cyanditse ho ibitaro bya Nyagatare. Aho bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu. Abantu benshi abari imbere bafashe icyapa, bari kwinjira ahantu hameze nko mu rwibutso. Bafite icyapa kigaragaza ko ari ibitaro byifatanyije n'Igihugu kwibuka ku inshuro ya mirongo itatu.

Ahantu hari abantu benshi, hameze nko mu ivuriro, umuganga yagereye umurwayi, bisa nk'aho amaze kumutera urushinge cyangwa agiye kumutera urushinge, umurwayi ameze nk'umuntu uri kubabara wakira uburibwe buturutse mu rushinge.

Abantu babiri bahagaze imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara, aho itwara abarwayi iri kubakorera ubutabazi barembye ibakura mu rugo ibageza ku kigo nderabuzima cyangwa ibakura ku kigo nderabuzima giciriritse ibajyana ku kindi kisumbuyeho kugira ngo bahabwe ubufasha kugira ngo bakire.

Umuganga ndetse n'umurwayi. Umurwayi yaricaye umuganga yahagurutse. Umurwayi yazamuye ishati yateze akaboko, bisa nk'aho umuganga agiye kumutera urushinge rw'indwara, cyangwa se agiye kumufata amaraso kugira ngo amusuzume indwara.

Umuganga ndetse wambaye ga n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kubaga umurwayi, harimo agakoresho gatera urushinge ndetse n'umukasi wifashishwa umurwayi arimo kubagwa.

Icyapa kigaragaza ahantu hari ivuriro rivura amaso, hari senyenge zigose igipangu, ntabwo wapfa kwinjiramo utanyuze kuri geti, iri vuriro ni iry'amaso.

Abaganga n'abandi bambaye nk'abaganga bameze nk'abanyeshuri ,barimo kwiga uburyo bakoresha laboraratos ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa muri laboratori ,harimo nk'imashini ibikoresho baba bakora.

Umuganga ndetse n'umurwayi. Umuganga aricaye, umurwayi arahagaze. umuganga yambaye ga arimo kumufata amaraso kugira ngo amupime indwara. N indwara ipimirwa mu maraso. Zimwe mu Indwara ziterwa amaraso harimo malaririya, Sida ndetse n'izindi zitandukanye. Umuganga arimo kumufata amaraso kugira ngo amupime indwara.

Umuganga ndetse n'umurwayi. Umuganga amaze gufata ibizamini by'amaraso aho areberamo indwara zitandukanye binyuze mu mashini zabugenewe. Umuganga harimo kwandika amazina y'umuntumaze gufatisha ibizamini kugira ngo amurebere indwara arwaye binyuze mu gupima amaraso yamuhaye.

Umugabo n'abana benshi bari guhabwa inyunganiramirire, inyunganiramikurire, abagabo baturutse muri UNICEF barimo gufasha abana kugira ngo babashe gukura neza.

Muganga, umubyeyi, umwana, umwana bagiye kumutera urushinge, abaganga babiri umwe afite urushinge undi ari kubafasha gutera umwana urushinge, urabona ko umwana arwaye.

Abana bicaye neza ku murongo bari mu ishuri ry'incuke, aho bari guhabwa igikoma nka kimwe mu bigize imfashamikurire cyangwa imfashamirire y'abana cyangwa bibafasha kugira ngo bajye ku ishuri kuko bazi ko bahabwa igikoma. Ni abana bambaye impuzankano y'ijipo cyangwa ikabutura y'ubururu n'umupira w'umutuku barimo kunywa igikoma.

Abantu benshi bateraniye hamwe barimo kumva amabwiriza ajyanye n'ubuzima ikigo cya RBC gishinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda, cyaje gutanga mesaje n'ubutumwa mu bijyanye no kugira imibereho myiza, abaturage bitonze bateze amatwi hari ibyuma kugira ngo bose babashe kumva icyo RBC yabateganyirije.

Umukoranabushake ari kumwe n'abana benshi arimo kubaha igikoma kiba kirimo intungamubiri zifasha abana gukura neza ndetse no gukorana ubwenge. Ibi bifatwa nk'inyunganiramirire ituma abana bakura neza ntibagwingire cyangwa ngo barware bwaki, ni kimwe mu ngamba zifashishwa mu kugira ngo abana babarinde kurwara bwaki. Umukoranabushake arimo kubafasha kubaha icyo gikoma.

Abana bari mu mashuri abanza bicaye neza ndetse imbere hari umukoranabushake harimo uwambaye ingofero ndetse n'utambaye ingofero arimo kubigisha cyane cyane abana bicaye mu bintu bimeze nka gurupe barimo kwigiramo, bambaye inifomu abandi ntago bambaye impuzankano.

Umubyeyi uri mu bana benshi arimo kubagaburira anabaha ibyo kunywa, ibyo kunywa ni ibifasha umwana gukura neza ni inyunganiramirire, ifasha umwana gukura ikanamurinda kugwingira.

Abadamu bicaye hamwe kandi bambaye agapfukamunwa, bicaye ahantu bameze nk'abategereje guhabwa serivisi zabajyanye, haba hameze nko kwa muganga cyangwa ahantu hatangira serivisi zigiye zitandukanye.

Ikigo nderabuzima gifasha abarwayi bakigana kubitaho ndetse no kubavura kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, ikigo nderabuzima ni inyubako cyangwa inzu ikorerwamo ubu buvuzi bwose bukenerwa n'abaturage baturiye aha ngaha.

Ababyeyi bahuriye hamwe, bagiye guteka indyo yuzuye, harimo imbuto nk'inanasi, ibirayi, igitoki n'ibindi bimwe byo mu mboga, harimo inyanya, karoti, ubutunguru, amavuta ndetse bafite n'amasafuriya yo kubitekeramo, ni uburyo bwo kunoza indyo yuzuye kugira ngo abana, bakure neza.

Umubyeyi ufite umwana ndetse n'undi mubyeyi umuri inyuma, yicaye ku gitanda cy'abarwayi kwa muganga, bose n'uwinyuma yicaye ku gitanda cy' abarwayi kwamuganga, bategereje abaganga ngo babahe ubufasha bw'ibanze, kugira ngo babashe kuvurwa. Bari mu nzu mu ivuriro.

Abadamu batatu, babiri bafite abana aho umwe ari muri serivisi za Mituweli aho barebera ibyangombwa ko umuturage yishyuye Mituweli kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, ni ku idirishya aho atangira ibyangombwa bye bakabona kumuha serivisi zijyanye no kwivuza.

Abakobwa babiri bicaye hamwe, umwe ameze nk'uri gutega undi amatwi ari kumuganiriza nk'ikibazo afite, noneho undi ari kumugira inama, ni bantu babiri harimo umwe uri kugira inama undi umeze nk'ufite ikibazo, umukobwa umwe yambaye imyenda y'imituku, undi yambaye imyenda y'imikara.

Abantu benshi batandukanye harimo abicaye n'abahagaze, bari kuvuga ku bijyanye n'ubuzima no kwita ku buzima bwo mu mutwe, harimo uwatanga ikiganiro kijyanye no kwita ku bantu bafite indwara zo mu mutwe.

Bicaye mu buryo bwiza, ku buryo bujya gukora uruziga. Imbere yaho hari umuntu urimo kubaganiriza ndetse n'ibitambaro biteguye. Biteguye mu mabendera y'Igihugu. Harimo umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Ari kubaganiriza bameze nk'abantu bari mu nama.

Umuganga w'umudamu ndetse n'umurwayi w'umudamu aho arimo kumusobanurira ibijyanye n'uburwayi afite aho muganga amutega amatwi umurwayi akamusobanurira aribyo bitwa mu buryo bwa kiganga kwisuzumisha.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, ikindi harimo umuzungu. Abantu bahagaze hamwe barimo ku bijyanye n'ubuvuzi busanzwe.

Umudamu ahagaze imbere y'abantu, afite mikoro arimo kubaha ikiganiro kijyanye n'imibereho myiza, aho bari bafite insanganyamatsiko yo kubaho neza bita ku buzima bwo mu mutwe; ni ikiganiro kiri kubera mu Karere ka Bugesera mu Murenge wa Musenyi.

Abadamu babiri, umwe yambaye agapfukamunwa, umwe ni umucuruzi muri Farumasi undi yaje kukugura nk'imiti afate fone mu ntoki.

Inzu ifite amarangi y'umweru imiryango y'icyatsi, hariho icyapa cyanditseho farumasi bisobanuye inzu y'ivuriro cyangwa icuruza imiti, aho umuganga arangura imiti akayegereza abaturage, aho umurwayi arwaye aragenda muganga akamusuzuma noneho akamuha imiti umurwayi akayishyura.

Inzu icuruza imiti y'amatungo, ni icyapa cyanditseho ko gicuruza imiti y'amatungo, aho umuntu ufite itungo ryarwaye cyangwa rifite ikibazo ajya kureba umuganga w'amatungo kugira ngo abashe kumuha umuti ubasha gukiza amatungo ye, amuha umuti, ugiye kwaka umutima na we akamuha amafaranga.

Abantu babiri barimo muganga aho bacuruza imiti y'abantu aribyo byitwa farumasi, harimo imiti itandukanyekanya ivura n'indwara zitandukanye aho umurwayi agenda akabwira muganga ikibazo afite agafatwa no gusuzumwa noneho muganga akakugenera umuti ukwiriye iyo ndwara maze umurwayi nawe akamuha amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi bucuruza imiti ivura abaturage, aho umuganga arangura imiti akayegereza abaturage ndetse umurwayi yarwara akagenda akisuzumisha muganga akamurebera imiti imugenewe, muri iyo miti harimo iy'amazi, ibinini ndetse n'inshinge.

Inzu icururizwamo imiti y'abantu harimo umuganga ushinzwe kwakira abarwayi no kubasuzuma, kugira ngo amenye imiti agomba kubaha. Igihe umuganga azana imiti akayegereza abaturage, kugira umuturage narwara agende muganga amusuzume, namara kumenya imiti amuha umurwayi ayishyure.

Ibinini by'ubwoko bwinshi. Harimo ibinini bisa: umutuku, umweru, umukara. Hari ibinini bivura indwara zitandukanye ziri buri mu gakarito, bitewe n'ibara mu kantu kabyo.

Iduka cyangwa aho bacururiza imiti y'abarwayi cyangwa imiti ivura abarwayi, harimo imiti itandukanye, hari iri mu dukarito, binini ndetse n'indi miti y'amatembabuzi, aho umurwayi ajya akisuzumisha ndetse muganga akumva indwara ye, akabona kumuha imiti ijyanye n'indwara ye.

Inzu y'ubucuruzi ibamo imiti. Ni inzu icururizwamo imiti y'abantu. Harimo udukarito tuba turimo ibinini ndetse n'indi miti y'amasukano. Aho umuganga ayizana akayegereza abaturage, bajyayo bakisuzumisha noneho umuganga akabaha imiti bakishyura.

Ikinyongera mva ruganda gifite intungamubiri nyinshi na vitamine nyinshi, gifasha amatungo kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi ashishe, abyibuhe mu buryo butandukanye, aho itungo rishobora kuba ryarananutse ariko yafata izi ntungamubiri cyangwa vitamine nyinshi kikabyibuha kikamera neza.

Abantu benshi bateraniye hamwe barimo kureba umuhanzi witwa Platini aho arimo gutaramira abaturage ndetse ari no mu gikorwa cyo gushishikariza abaturage kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye, ibi bikunze kunyuzwa mu buhanzi kugira ngo abantu babashe kubyumva ndetse no kubyitabira.

Abakoranabushake bicaye hamwe bambaye impuzankano zisa kandi bambaye agapfukamunwa n'ingofero nka bimwe mu byifashishwa mu kwirinda ibyorezo, bameze nk'abantu bambaye nk'abakoraga mu gihe k'icyorezo cya kovide, aho bapfukaga umunwa kugira ngo birinde kwanduzanya.

Bbagabombi bari gutaramira abaturage, aho abaturage baje ari benshi baje kumva icyaje kubera ahangaha, cyane cyane ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage no kwirinda indwara zitandukanye, bazanye bamwe mu bahanzi kugira ngo babashe kubataramira, ari kimwe mu bikurura abantu kugira ngo babashe kumva imbwirwaruhame yateguwe.

Abantu batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari mu gikorwa cyo gushishikariza urubyiruko kwimakaza ibiganiro byigisha ubuzima n'imyororokere y'urubyiruko, no mu miryango, aho imiryango itandukanye yabiteye inkunga kugira ngo buri muntu wese abashe kugira uruhare muri iki gikorwa, harimo Ikigo gishinzwe ubuzima ndetse na USAID.

Abantu batandukanye harimo abadamu ndetse n'abagabo harimo abashinzwe umutekano, bari ku cyapa cyanditseho ngo Gerayo amahoro, aho bari gushishikariza abaturage kugera mu rugo amahoro, gutwara ibinyabiziga neza bakajya mu rugo amahoro kandi bakabitwara batihuta cyangwa basinze.

Abantu benshi harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari mu gikorwa cy'ubuzima ndetse n'imyororokere, aho bari kwigisha no gutanga ubutumwa mu bijyanye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, aho bazanye udukingirizo kugira ngo basobanure uburyo bukora ndetse n'uburyo burinda sida n'izindi ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina no kubyara inda zidateganyijwe.

Umunsi mukuru wo kurwanya malaria, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, cyari kiri kwiwizihiza kugira ngo gishishikarize abaturage, kurwanya malaria.

Bari kumwe ari benshi ndetse harimo abadamu n'abasore n'abagabo. Aho bari kumva imbwirwaruhame y'abayobozi cyangwa abantu bashinzwe ubuzima, aho bari kubariza ibijyanye no kugira ubuzima bwiza, abaturage bateze amatwi bicaye mu ntebe z'ubururu kandi bakurikira uri kubaha ikiganiro.

Umuvuzi gakondo ufite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'umwimerere butarimo igikorwa cy'imiti ya kizungu, aho umuganga akoresha ubuvuzi gakondo mu byatsi kimeza cyangwa n'ibindi byose by'imiti itaranyuze mu ruganda. Bamwe muri aba bavuzi, hari abitwa abapfumu ndetse n'andi mazina atandukanye.

Inzu icuruza imiti gakondo, imiti ivura abantu ariko itaraturutse mu nganda, umubyeyi aricaye yambaye imyenda y'umutuku, ni umuganga witeguye kwakira abarwayi.

Imwe mu miti ya gakondo ivura indwara zitandukanye, aho bakoresha ibihingwa cyangwa ibimera, kugira ngo bavure umuntu batagombye gukoresha imiti ivuye mu nganda zitandukanye, cyangwa kujya kwa muganga. Aha ngaha harimo indimu, tunguru, tungurusumu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umurwayi urembye cyane uri kwa muganga, amaze iminsi mu bitaro ari kwitabwaho n'abaganga, yarananutse arwaye indwara yamunuye, abaganga bari kumwitaho basoma raporo y'ibyo yaba arwaye, cyangwa ibizamini byafashwe bari kumuha ibisubizo, ari mu bitaro kwa muganga.

Abantu benshi, barimo kugenda abandi bahagaze, abandi bicaye. Kandi bose bambaye agapfukamunwa. Abagabo benshi bambaye amakote, barimo kwinjira mu rusengero. Uru ni urusengero rwo muri Kigeme. Rw'idini rya eyari Diyoseze ya Kigeme.

Inzu iri mu bwoko bwa konoshi icuruza imiti, ni inzu icuruza imiti y'abarwayi cyangwa imiti y'abantu aho umuganga arangura imiti akayegereza abaturage noneho umuturage urwaye akagenda muganga akamusuzuma akamenya imiti amuha iyo amusanzemo indwara amuha imiti umurwayi akamwishyura.

Umurwayi ndetse n'umuganga ndetse n'abandi bicaye, umurwayi ari gutanga ibyangombwa bigaragaza ko yishyuye ubwishingizi, kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi. Muganga ariko kubyakira kugira ngo amurebere ko byuzuye, kugira ngo bamuhe ubuvuzi.

Umudamu ndetse n'abandi bantu batandukanye bari ku kigo nderabuzima arimo gutanga imbwirwaruhame kuri gahunda ijyanye n'igikorwa cy'ubuzima no kugira imibereho myiza. Abantu batandukanye harimo abayobozi ndetse nikigo n'abashinzwe umutekano barimo nka dasso.

Umuganga ndetse n'abadamu babiri, umwe afite umwana. Umuganga yicaye ahantu yegereye imiti, abarwayi bategereje ko muganga abaha imiti muganga yabandikiye kugira ngo batahe. Babanje kwisuzumisha noneho bakajya aho muganga agomba kubahera imiti bagendeye ku ndwarari barwaye. Bari imbere ya muganga barimo bategereje gufata imiti.

Ikigo nderabuzima kiri ahantu heza kiri mu mabara y'ubururu, aho abarwayi barwaye indwara zitandukanye, bajya bakaganiriza abaganga ibyitwa kwisuzumisha, aho umuganga agupima indwara urwaye akaba yaguha imiti, iki ni ikigo nderabuzima kifashishwa muri izo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima.